Ingagi ziba mu ntara y'amajyaruguru. Aho bamukerarugendo bazisura, bakanyinjiza amadovize, bakayinjiriza igihugu kandi ingagi ni nziza cyane kuko ziboneka hamwe gusa ari muri East africa.